Ipiinloni rishinzwe gukwirakwiza itumanaho mu gihugu, ipironi iteye ahari urutoki ndetse, iri pironi rufite amabara atandukanye rifite ibara ry'umutuku n'umweru, aho iri pironi iteye hari ibimerara byinshi kandi bitandukanye.

Abagororwa bari mu cyumba kimwe bari hamwe aha bari kumwe n'ushinzwe umutekano wabo bose bambaye udupfukamunwa tubarinda ku mazuru ndetse kandi bambaye imyenda isa bose.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, impuzangano zirimo amabara atandukanye umukara, icyatsi, umweru ndetse izo mpuzangano ze ziriho idarapo ry'igihugu riri mu mabara ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Umuyobozi w'Igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, yicaranye na madamu Jeannette Kagame, bicaye imbere bafite indangururamajwi zituma abantu babasha kumvikana ndetse bafite n'ibyo kunywa imbere yabo.

Perezida Paul Kagame ahagaze imbere y'abantu benshi, bari ahantu hamwe bateraniye, perezida yambaye ikoti ry'umukara ririmo ishati y'umweru, harimo karuvati mo imbere, yambaye amarinete, azamuka ahantu imbere y'abantu benshi.

Icyapa gikoreshwa mu muhanda kandi iki cyapa kigaragaza aho bakatira ikorosi riri imbere, iki cyapa kiri mu ibara ry'umutuku ndetse ibyo gisobanura byandikishije ibara ry'umukara.

Agace gaturanye n'aho indege zihagurukira, aka gace gatuwe n'abaturage batari bakeya kandi agace kari munsi y'aho indege zihagurukira hasi, hari amazu meza kandi agezweho ndetse afite n'ibigega bimwe bifata amazi.

Umuhanda nyabagendwa wa kaburimbo, ndetse umuhanda nyabagendwa ni mushyashya uracyagaragaramo imirongo y'amabara atandukanye, aha hambukira abagenzi haragaragaramo imirongo y'umweru ihagaze, ndetse aho umuhanda usoreza hagaragaramo imirongo y'umweru n'umukara.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse wubatse mu buryo bwiza kandi bugezweho, umuhanda uragaragaramo amatara ku muhanda kandi urimo imirongo itandukanye, harimo iyo hagati mu muhanda igaragaza aho abanyamaguru bambukira.